Abantu benshi bicaye mu gishararagati bari mu nama imbere hariri kubabwira icyo yabateranyirije, aho hari ingeri zose yaba abagabo cyangwa abagore.

Mu Rwanda ahantu henshi ubuyobozi bw'igihugu, usanga buri guha inama abaturage, aho wasanga abayobozi benshi, yaba abayobora abaturage mu duce babamo cyangwa ingabo z'igihugu zizwi nk'abasirikari.

Muri Guverinoma ukunze usangamo abakozi bagiye batandukanye aho bakunze kuba bari mu nama harimo abagore n'abagabo baganira kubyungura igihugu bikivana ahantu hamwe bikijyana ahandi kugira ngo biteze imbere.

Abaturage benshi bicaye mu gacaca inyuma yaho hari ibiti bari mu nama hari abagore bambaye ibitenge biteza ibitambaro n'abagabo benshi.

Leta y'u Rwanda ikunze guteranyiriza abantu hamwe, bakicara mu gisharagati bakunze kuba ari abantu bakuru, ikabaha inama zerekeye ku bintu bitandukanye byo mu gihugu cy'u Rwanda.

Ni inama yahuriyemo n'ingeri zose, baricaye abagore n'abagabo, hari n'amazi yo kunywebwa n'abazungu n'abirabura, bari kuganira ku kibazo runaka.

Abaturage bicaye mu nzu bari mu nama batandukanye harimo abagore n'abagabo, harimo umugabo uhagaze ari gutanga igitekerezo cyangwa abaza ikibazo.

Umugore usutse, wambaye amadarubindi n'ikanzu ifite ibara ry'icunga, uri gutanga inama ku bantu bicaye ruguru ye, harimo abapolisi n'abaturage basanzwe.

Ni igikorwa kigaragara cy'abantu bari mu nama bafite amakayi na telefone imbere yabo n'uducupa tw'amazi, ni abagabo harimo n'umugore umwe uri kugaragara kuri iyo foto inyuma yaho hari ibirahure n'igi.

Ni inama yakoranyijwe, abantu bose abagore, abagabo, bari kwiga ku ngingo zitandukanye, bicaye ku ntebe ahantu hari tapi bambaye imyenda bashaka.

Ni ifoto iriho abagore n'abagabo, abagore bambaye imikenyero n'abagabo bambaye kositimu, haparitse n'imodoka bahagaze ku mapave, hejuru hari ibirahure hari n'ibindi birahure byanditseho Kigali yacu.

Inzu nziza cyane isize irangi ry'umweru, irimo abategarugori benshi bari mu nama. Bicaye ku meza ziriho ibitambaro by'umweru, imbere yabo hari amazi; bakurikiye ubaha izo nama.

Abantu benshi bakora ibintu bitandukanye bigaragara nk'aho ari abayobozi yaba abanyamahanga cyangwa abanyarwanda aho bari mu nama bicaye ku ntebe bakurikiye bubaha inama basoma ibitabo, imbere yabo hari n'amazi yo kunywa.

Hari imbuga zigiye zitandukanye, aho abakozi ba guverinoma bashobora gushyiramo konti zabo bakaba bahemberwaho, cyangwa bakaba batanga izindi serivisi zigiye zitandukanye.

Abagabo batatu hari igisahani cya ateni, hari ibiti n'amaputo ya netiwaka, hari moteri yubakiwe mu kazu, hari n'akandi kazu kari hiryayaho, hari ubusitani, hari n'intsinga.

Leta y'u Rwanda yashyizeho imbuga nyinshi, aho ushobora kuyasanga serivisi zose waba wifuza zigendanye n'ubwishingizi cyangwa ibindi byinshi, aho aho usura imbuga zabugenewe ugashyiramo imyirondoro yawe ukaba wahabwa serivisi wifuza.

Guverinoma yashyize abakozi hirya no hino mu gihugu, aho bifashishwa mu kuba babarura abaturage yaba abasore cyangwa abandi bo mu ngeri zigiye zitandukanye kugira ngo bamenye amakuru yabo.

Ni abagabo n'umudamu umwe bafite mudasobwa mu biganza bambaye udupfukamunwa, hari ahantu hari imodoka ziparitse zubwoko bwose.

Leta ikunze gushyiraho uburyo bwiza bwo gusakaza amashanyarazi ku baturage, aho ibagenera iminara mu duce dutandukanye, ibafasha mu gusakaza amashanyarazi, anyura ku nsinga ajya muri buri rugo.

Aha ni ahantu ushaka gusanga serivise waba wifuza, yaba iz'irembo, ukoresha amabanki, ubitsa, ubikuza amafaranga cyangwa wohereza n'izindi serivise zitandukanye zose, yaba kwishyura ubwishingizi n'ibindi urabihasanga.

Mu mihanda igiye itandukanye ukunze gusangamo ibyapa yaba ibiburira cyangwa ibitegeka, aho bikwereka inzira ugomba guca naho utagomba kunyura wowe nk'umushoferi.

Hari ipoto itara ryo ku muhanda rimwe rinyuza insinga hejuru, aho hantu harakorutiriye, n'amatafari hari bariyeri hari n'ibiti hari n'amapave hirya hari indabo.

Urugomero rw'amashanyarazi ari umutekinisiye uri kunyuraho n'amapoto ashinze, utundi turimo moteri zikontorora amashanyarazi hirya hari ikiyaga cy'amazi.

Leta yashyizeho ibitaro byinshi mu duce dutandukanye, aho igihe wumva urwaye aho waba uri hose mu gihugu wahasanga ibitaro bityo bikagufasha kwivuza utararemba ukimeze neza.

Ibitaro byinshi bitandukanye biri mu gihugu cy'u Rwanda, uhasanga abaturage benshi baje kwivuza, yaba abagore, abagabo, abana, abasore baje kwivuza igihe barembye kugira ngo babashe kuba bamera neza.

Ni ifoto y'abaturage bari mu nama, hari n'abambaye furari ziriho iterapa ry'igihugu, bari mu ducaca bicaye ahantu hari ibiti n'amazu, hari n'abahagaze bari ku kugira.

Ni inzu irimo imbohe ikunzwe kwita gereza, iherereye Nyarugenge, hari umurinzi n'imbohe bari ku gipangu gisa umukara cyubakishijwe urukuta rurerure rw'amatafari ahiye.

Umugabo umeze nk'umwavoka afite mikoro ari kuvugara, ari ahantu hari idarapo ry'igihugu, yambaye ikanzu y'umukara, ngira ngo ari guca urubanza afite hasi telefoni n'amakayi n'udupapuro.

Ibi ni ibikoresho usanga ku nzu zose zubahirije amategeko, yaba inyubako ndende cyangwa inzu ngufi aho bifasha mu gihe habaye ibyago by'umuriro, mu kuzimya inkongi y'umuriro nta kibazo kiraba cyangwa nta birangirika.

Ni imodoka y'abashinzwe umutekano witwa polisi paritse ku nzu yubatse neza ya sitasiyo ya polisi hari n'indi modoka hari amapave.

Imodoka iri kugenda mu muhanda uko igaragara ni igikamyo gitwaye abashinzwe umutekano bitwa abapolisi, iri kugenda mu muhanda w'umukara hirya y'aho hari abagenzi bari kugenda n'indi modoka iri imbere hari n'ibiti n'ishyamba n'amapoto.

Ni ifoto y'abagore bambaye imikenyero, abagore benshi bivanzemo n'abagabo bambaye ikositime bahagaze ku mapave inyuma yabo hari ibiti n'amazu n'amapoto.

Mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda abaturage benshi bitabiriye amatora, aho batoraga nk'umuyobozi bifuza, igihe ushoje gutora washyiragaho igikumwe cyawe ku muntu watowe umwemeje kandi neza.

Nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ari mu nama n'abaturage aho ari kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu, aho hari ahantu hateraniye abantu benshi mu gishararaga, inyuma hari ibiti byinshi.

Abaturage nka bamwe mu bantu bakorana na leta cyane, bakunze kuba bafite imyidagaduro bahuriramo yaba mu nama cyangwa izindi gahunda leta iba yateguye.

Abagabo nka bamwe mu bantu bakora muri leta, bakunze kwambara amakositimu aho baba bambariyemo n'amashati mo imbere harimo karuvate, bagakunda no kwambara rinete zibafasha mu gusoma.

Hari abagabo benshi bakora muri guverinoma, aho bifotoza bambaye amarinete cyane cyane kubera gusoma cyane, bakaba bambaye n'amakositimu na karuvati ndetse n'idarapo riri ku makora y'izo kositimu.

Ni nyiricyubahiro perezida Paul Kagame ahagaze muri vilage, hirya ye hari umudamu n'idorapo ry'igihugu bahagaze kirangantego cy'u Rwanda. Repubulika y'u Rwanda bari gusuhuzanya hari n'intebe.

Ipikipiki y'amapine atatu hariho shitingi y'umweru hejuru, hariho umumotari yambaye kasike, bari mu muhanda muremure w'umukara, hari n'ibiti by'amoko yose n'umuyoboro w'amazi.

Inzu isize amabara y'iroza ndetse n'ibirahure, ni inzu y'amagorofa ane imbere yayo hahagaze ama modoka menshi ndetse n'umuntu umwe wambaye imyenda y'umweru uri hagati y'ayo ma modoka.

Mu mihanda igiye itandukanye mu gihugu, ukunze gusangamo, amamoto yaba amapikipiki, cyangwa ay'ukunze kwita bajyajya, aho atwara ibintu cyangwa abantu, babivana ahantu hamwe cyangwa ahandi.

Ni imodoka itwara abagenzi indi ni ndende iri ahantu haparikwa hari kwinjiramo abagenzi batandukanye b'amoko yose, abagana ahantu runaka bari.

Yundayi Rwanda ni ikigo gicuruza imodoka ni imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zikaba zihagaze ahantu hamwe.

Ipikipiki y'amapine atatu uriho shitingi, itwawe n'umushoferi iri mu muhanda muremure, hari n'ibiti by'amoko yose n'ubusitani n'umuyoboro amazi anyumo.

Leta yagiye yubaka imihanda minini, aho mumodoka manini y'ibikamyo atwara ibicuruzwa ashobora kunyura yisanzuye kandi n'ibindi bikorwa bikaba byakomeza mu gihe izo modoka zirimo zirahanyura.

Hirya no hino mu mijyi ukunze gusangamo amagare aho imodoka zihagarika umuntu akaba yazihasanga mu gihe yaba agiye gutega, yaba agiye mu kazi cyangwa agiye gusura inshuti.

Imodoka ndende ikora umwuga wo gutwara abantu ibavana mu gace kamwe ibajyana mu kandi, iri kugenda mu muhanda iri kubisikana n'ipikipiki ikoresha amashanyarazi.

Abantu batandukanye bafite amadapo y'ibara ry'umweru ubururu n'umutuku yanditseho Efuperi bakikije umukuru w'igihugu perezida Poul Kagame wambaye ingofero y'umukara umupira w'umweru, uriho ikirangantego cya efuperi wazamuye akaboko.

Ni imodoka irimo abagenzi iri kugenda mu muhanda munini isa ubururu n'umweru imbere yaho hari abamotari babiri bari kugenda mu muhanda hirya hari inzira y'amazi.

Ahantu hari igiti, ubusitani, hari abantu b'ingeri zose, bicaye n'abahagaze bari kugenda ku mapave n'akazu kubatse mu byuma, n'ibiti hari aba.

Akikijwe n'amatage ahantu hica abantu hari na dasitabini bajugunyamo imyanda bari mu ngendo, hari amapave umugore ufite isakoshi ugiye guhura n'umugabo.

Hari ibyapa bishyirwa hirya no hino ku mihanda aho bigaragariza abashoferi b'amamodoka cyangwa abatwaye imodoka aho baparika, bikaba binanditseho mu magambo manini y'umukara.

Leta y'u Rwanda yageneye abaturage babo aho banyura mu buryo bwiza yaba abagendera mu binyabiziga, abagenda n'amaguru bose yabitayeho aho waba uri hose ubona inzira inyuramo kandi imeze neza.

Inzu ndende ikorerwamo ibintu bitandukanye yaba ubucuruzi, amaresitora n'ibindi byinshi, aho usanga harimo ibiro amaduka n'ibindi byose wakwifuza kubikoreramo wahakorera.

Mu mihanda hirya no hino mu gihugu ukunze gusangamo imiyoboro y'amazi ipfundikiye, aho yifashishwa n'abanyamaguru bayinyura hejuru nk'ahantu hagenewe abanyamaguru ho kunyura.

Muri gahunda za leta mu buryo bwo kuba abaturage bakwihutisha ubushobozi bwabo bityo bigafasha igihugu mu kuba cyatera imbere, cyashyizeho uburyo bw'uko bakoresha murandasi bakoresheje iminara y'imirongo imwe n'imwe ikoreshwa mu gihugu.

Ni umurenge aho harimo amazu atandukanye y'amoko yose harimo ubusitani ahantu hahinzwe harimo amashyamba amazu y'umweru.

Inyubako ndende ikoreramo ibintu bitandukanye, leta iba yarageneye abaturage, izwi nk'igikorwa remezo, aho ushobora kuhagana igihe ukeneye aho wakorera ibintu bitandukanye, ukaba wakodesha icyumba wakoreramo.

Ikiraro cy'umuhanda hasi mu kiraro hari kunyura ibinyabiziga bitandukanye; imodoka, ipikipiki, hejuru y'ikiraro hari amapoto aba ariho amatara yo ku mihanda, umuhanda ni muremure.

Umuhanda muremure ugabanyijemo ibice bibiri, uzengurutswe n'ibiti bigufiya, hari n'inzira y'abanyamaguru hirya yawo hari umukingo wubatswe n'amabuye.

Umuhanda muremure ukikijwe n'ibiti birebire bizwi nk'imikindo, amata yo ku muhanda n'ibindi biti bigufiya. Ku ruhande rw'umuhanda hakaba hari inzira y'abanyamaguru ibafasha kugendera ahantu hatekanye.

Ni igikorwa cyerekana imihanda miremire hari abagenzi bari kunyuraho, imodoka ziparitse hirya n'inzu y'itaje ifite ibirahure byinshi n'amapoto yo ku mihanda.

Umuhanda uterera uriho akarindabasazi karinda imodoka kurenga umuhanda n'undi uca munsi yaho, uri gutambikamo moto n'umunyamaguru uri kumanuka wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Imihanda minini guverinoma yubatse ukunze gusangamo abamotari bari ku mapikipiki yabo, aho bakorera ibikorwa byabo byo gutwara abagenzi babavana ahantu hamwe babajyana ahandi, yaba abakuze cyangwa abatoya.